Duterembere IMF ltd, ikigo cy'imari giciriritse, ishami rya Nyagatare, ukeneye serivisi batanga, wabahamagara kuri zeru, kabiri, gatanu, kabiri, gatanu, gatandatu, gatatu, gatatu, zeru, zeru.

Inzu igeretse gatatu biragaragara ko ari inyubako ikorerwamo ibijyanye na hoteli ndetse n'amaresitora, iruhande rwayo hari jaride imeze neza cyane iteyemo igiti cy'umukindo.

Isoko rya kijyambere ryubakiye neza bigaragara ko abahinzi n'aborozi babona aho bagurishiriza umusaruro uturuka ku byo baba batunganyije mu bworozi n'ubuhinzi bwabo, nta ba abantu bitwa abazunguzayi bakigaragara kuko Leta yabahurije hamwe.